Uburezi ni inkingi y'iterambere. Twigiramo byinshi: kubyina, gusoma, kwandika, kuririmba, imico myiza, indangagaciro nyarwanda.

Kwiga ni byiza bituma tujijuka tukibeshaho mu buzima. Kwiga bituma tubona amafaranga tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu n'abavandimwe bacu bakabaho neza.

Ubucuruzi buduha amafaranga, ubucuruzi buduha akazi, butunga imiryango yacu, tugasa neza tukibeshaho mu mibereho yacu.

Ubuvuzi bw'amatungo buduteza imbere cyane, buduha amafaranga tukiteza imbere, inka zikagira ubuzima bwiza, natwe tukabaho neza imiryango yacu igatunga igatunganira.

Kwigisha biduha amafaranga kwigisha bitubeshaho neza, tugatunga imiryango yacu abavandimwe bacu tukabaho neza mu gihugu cyacu.

Ingofero iturinda izuba, ingofero iturinda impanuka haba mu bwubatsi, mu butetsi. Ingofero ziduha amafaranga, iyo tuzicuruje tukibeshaho.

Gukora muri hoteli biduha amafaranga, tukiteza imbere tukamenya guteka, tukamenya kugabura tukagira ikinyabupfura, aho tunyuze aho tugeze tukakira abantu neza.

Kwiga ni byiza. Iyo turi kwiga mu Mashuri twiga kubaza, twiga guhinga, twiga guteka, bikatugirira akamaro, tukiteza imbere kandi tukabaho neza mu buzima.

Kwigisha biduha amafaranga , kwigisha bituma tubaho neza, tukagura amazu duturamo, tukigisha abana mu ishuri, kandi tukabaho neza.

Gukanika biduha amafaranga, bibeshaho imiryango yacu. Iyo imodoka ipfuye cyangwa ipikipiki, turayikora bakaduha amafaranga, tukabaho neza.

Ububaji buduteza imbere cyane, buduha amafaranga tukiteza imbere, tugatunga imiryango yacu. Butuma tugira inzu nziza, tukaba heza, tukagira ibikoresho bitunganye.

Kwiga ni byizayiza, bituma tujijuka, tukamenya ibyo twari tutazi, tukamenya gukoresha ibikoresho neza kandi twishimye, tukagira ubumenyi buhagije dukoresha mu bwubatsi.

Kwiga ni byiza cyane biduteza imbere. Iyo dukoresheje ikoranabuhanga tumenya amakuru nyayo ku gihe, tumenya ibiri mu mahanga tutavuye aho turi tukamenya amakuru yo ku isi yose.

Ubucuruzi bw'ibikoresho bitanga amashanyarazi ni bwiza cyane. Buduha amafaranga, tukishima, tukanezerwa, tugatunga imiryango yacu n'igihugu kigatera imbere.

Kwiga ni byiza bitugirira akamaro kanini cyane; turiga, tukajijuka, tukamenya gusoma, tumenyaga kwandika, tumenyaga kuririmba, tumenyaga kubana neza n'abandi. Igihugu cyacu kikagira umutekano.